Ahantu hihitaruye hari igishanga, iruhande rwaho hazengurutswe n'ibiti by'amoko atandukanye birebire ndetse n'ibigufi, inyuma yaho hari umusozi uteyeho ibiti.

Abantu bari gusara ibirayi mu murima, hasi hateretse ibirayi byinshi, ikiganza cy'umuntu gifashe ikirayi kimwe mu ntoki agifatishije udutoki tubiri.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ishati n'ipantaro ndetse na bote z'umukara, ufashe ikaramu mu kaboko ke k'ibumoso ahagaze mu nzu bororeramo inkoko, iburyo n'ibumoso hari inkoko n'amagi yazo.

Inzu ifite irangi ry'ubururu ndetse n'umweru, irimo imifuka myinshi irimo umuceri, ifite ibara ry'ubururu n'umweru, iteretse ku bibaho hasi, ndetse irimo amakara.

Inka z'amahembe maremare zizwi nk'inyambo, zirimabara tandukanye, n'amagaju, umukara inyuma yaho hari abashumba, umwe muri bo yambaye agapira k'ubururu afashe inkoni mu ntoki, hasi yazo hari amase.